Abantu babiri bari mu modoka, umugore ariwe utwaye imodoka. Imodoka isa umweru hasi ifite ibara ry'umukara hejuru ibara ry'umweru barimo guseka, umugore wambaye amaherena ufite umusatsi ndetse n'umugabo wambaye umukandara umurinda impanuka.

Etaje isize irangi ry'umutuku imbere hayo hari ifoto y'umumama w'umudamu hakaba hari n'imodoka z'umweru ndetse n'umukara.

Abazungu babiri bambaye amakote y'umukara na karuvate imwe y'umutuku, bafite imodoka buri wese iruhande rwe imodoka y'umweru n'undi ku ruhande rwe imodoka y'umweru, hagati yabo hakaba harimo moto noneho iruhande rwabo hakaba hari inyubako ifite inkingi y'umweru n'umukara.

Iduka ricuruza imyambaro, aho imyambaro bayimanika mu bipupe kugira ngo igaragare neza yere no kwihinahina. Iryo duka ku nkuta zaryo risize irangi ry'umweru, rifite inzugi zisa umukara ku byuma byazo ndetse n'izisa umuhondo, hakaba hari imyenda myinshi iteretse ku meza y'uruziga.

Imyenda y'amapantaro y'umweru, n'umukara, n'igitaka, irambitse kuri tapi, iyo tapi ikaba ari umweru, irambitse ku makaro, ahantu bacururiza n'ibicapu by'ubwoko bugiye butandukanye.

Umugabo w'umuzungu ndetse n'umwirabura; umwirabura yambaye ishati y'ubururu na karuvati irimo amabara y'umukara n'umutuku atunze urutoki mu mashini ya mudasobwa; umuzungu ari imbere ya mudasobwa yambaye ikote ry'umukara inyuma yabo hari inyubako zisa n'izikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi zifite ibyuma by'umweru.

Iduka ricururizwamo imipira iciye amaboko myiza, iduka rikaba rifite ibyuma bimanikwamo imyenda, iri gucuruzwa ndetse iryo duka rikaba ryubakishije amakaro, y'umuhondo ndetse ku mpande hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Iduka ricuruza imyenda, imyenda ikaba iri aho ibitse neza ku buryo itahinamirana mu bipupe by'ibipurasitike iteretse kuri sima y'igiheri. Iyo myenda n'amakanzu y'umutuku ndetse n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Imodoka nziza isa n'itwaye umugeni imbere ifite ururabo rw'umweru ndetse n'umutuku, ikaba ifunguye impande yayo hari abantu babiri ku ruhande rumwe ndetse n'urundi ruhande, aho bisa naho bagiye kwakira umugeni ugiye kuva mu modoka, inyuma yayo hakaba hari inyubako zitandukanye ndetse n'ibyuma bisize irangi ry'umukara.

Abagabo babiri bambaye neza, imbere yabo hari imodoka y'umukara. Bakaba bafite ikirangantego cyanditseho Akagera. Inyuma yabo hari inyubako, ndetse hakaba na jaride ifite indabo, ndetse hakurya yabo hari ikirere kijya gusa ubururu n'umweru.

Imodoka nziza cyane kandi nshyashya iri ahantu, hejuru y'aho hatwikiriwe n'amabati amabati, akaba amabati afashwe n'ibyuma, iruhande rwayo hari igipangu cy'umweru kirimo indabo z'umuhondo ndetse n'insinga ziri hejuru y'icyo gipangu.

Igiceri gikoreshwa mu Rwanda cy'amafaranga atanu kirimo ikirangantego cy'u Rwanda cyanditsemo umurimo gukunda igihugu, kikaba giteretse ku meza iriho isize irange rijya gusa umukara ndetse rivanze n'umweru cyane ariko kigaragara nk'aho atari umweru cyane icyo giceri kikaba kirambitse ku meza.

Umukozi ukora muri banki ari kubara amafaranga ayatora ayashyira hamwe wambaye umupira w'ubururu uri ahantu hari inzugi z'ibirahuri inyuma ye, imbere ye hari imashini y'umweru ibara amafaranga.

Abakozi babiri basa n'abakozi ba banki ya kigali aho buri wese afite imashini ya mudasobwa imbereye y'umukara ndetse n'imashini ibara amafaranga ziteretse ku meza hejuru yabo hari amatara arimo kwaka ku mpande hakaba hari igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse n'urugi rusize irangi ry'bururu imashini ziteretse ku meza .

Inyubako igaragara imbere nk'aho ari aho kwakirira amafaranga, aho hari umugabo wambaye ishati y'imirongo y'umweru ndetse n'umukara, biriho kwakira amafaranga ndetse yakira n'abakiliya bari kugenda bahaza, aho ngaho hakaba hari ameza asize irangi ry'icyatsi, hasi kuri iyo nyubako hakaba hari amakaro y'umweru, hakaba hari abakiliya batatu.

Abantu babiri, umwe yicaye imbere ya mudasobwa ari kuganira n'undi wicaye i ruhande rwe, ndetse impande ya mudasobwa hari imashini ifotora, bicaye ku ntebe z'umukara inyuma yabo hari igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse n'ikarito ku ruhande rwo hepfo.

Umumama urimo kunywa yahurute iri mu gakombe gafite ibara ry'umutuku ririmo ndetse n'umweru ugafashe mu ntoki, ufite inzara zisize ihina.

Icyapa cy'uruganda rw'inyange kiriho amashusho atandukanye, kiriho indobo zanditseho inyange n'amashashi ndetse n'amacupa bigiye bitandukanye, icyapa gisa ubururu, kikaba kiri ku nkingi yubakishije amakaro y'amabara y'umukara n'umweru, hasi hari amakaro y'umukara n'umweru imbere yacyo.

Ibiraha byinshi birambitse ku gapapi, ibyo biraha bikaba bisa umuhondo, ibiraha bikaba bikorwa mu birayi ndetse imbere hakaba harimo inyama ndetse bakaba inyuma bashyiraho ifarini kugira ngo igishishwa cy'inyuma kize gukomera.

Ahantu hasa n'ikaragiro ry'amata aho umupapa arimo gusuka amata ayakuye mu cyansi ayasuka mu kigega gisa umweru gifite amatiyo y'ibyuma y'umweru, yambaye hejuru ishati y'umukara ndetse n'ipantalo y'ubururu inyuma ye hasa umuhondo.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hateretse amata ku meza ndetse n'amakanete, noneho babiri bakaba bateruye ibikombe, bari kunywa amata.

Abantu bane bari mu biro, aho imbere yabo hateretse imashini ya mudasobwa, ndetse n'imashini ifotora, hakaba hari umwe muri bo wambaye ijiri y'icyatsi n'ingofero y'umukara, inzu ikaba isize irangi ry'umweru, hari n'abicaye.

Umuntu ufashe inoti nyinshi mu ntoki izindi zirambitse ku meza imbere hari imashini ibara amafaranga harimo inote ziriho abantu z'ijana ndetse n'iza magana abiri zijye zitondetse ahantu hagiye hatandukanye ngo izindi azifashe mu ntoki akaba yazirambitse ku meza asize irangi y'umweru.

Inzu igaragara nk'aho ikorerwamo ubufasha bugiye butandukanye, ifite inkingi zisize irangi ry'umweru, hejuru hari ibyuma birinda abantu kuba bahanuka, bisize irangi ry'umukara ndetse ikaba ku nkuta zayo hasize irangi ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo, hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye byamamaza ibihakorerwa.

Ni isoko rigezweho ririmo umugabo uhagaze wambaye ikoboyi rikaba rifite ikirango cya eyateri.

Inyubako nini kandi nziza imbere hari abantu babiri umwe yambaye umupira w'umutuku, undi akambara umutuku uranze n'umukara, ifite umuryango urimo ibyuma bisize irangi ry'umweru ndetse n'amadirishya asize irangi ryumweru.

Ahacururizwa ibikoresho byo mu nzu. Muri ibyo bikoresho harimo intebe ndetse n'ameza.

Inyubako zisa n'izakirwamo abantu aho hari intebe zegamirwa hanze umuntu imbere hakaba hari moto iri kuzaza umuhanda ndetse hakaba n'insinga ziciye hejuru y'amazu inyubako imwesakarishije amabati y'umweru agaragara gace gato cyane hazaanmbitseho nibiti by'imbaho.

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe zegamirwa z'imifariso ndetse n'imifariso irambitse kuri buri ntebe, hasi hashashe amapave, ku mpande ku gikuta hari amakaro y'ubwoko butandukanye, umukara, umukara ndetse n'umweru bivanze ndetse n'umukara wijimye ujya kuba umweru.

Icyumba cy'uruganiriro imbere harimo amarido y'umuhondo gifite igikuta cy'umweru, kiba kirimo intebe zegamirwa ndetse n'ameza matoya n'amanini n'izindi ntebe ziri ku ruhande ndetse n'igitanda.

Ameza atatu ateretse hamwe hejuru asa umukara impande harimo inyingi z'ibyuma by'umuhondo ateretse ku makaro y'umweru. Imbere hari andi meza nayo asa umuhondo ari ahantu heza kandi ku makaro y'umweru.

Mu bwogero bumeze neza imbere yabwo hakaba hari akabuga gasa umutuku ndetse n'ahantu hari imitaka yicaramo abakiriya baje gufata amafunguro hakurya hakaba hari inyubako ebyiri imwe iri iburyo indi ikaba iri ibumoso hejuru y'imwe hari ikibuga indi imhandada yayo hari ishyamba n'ibiti binini.

Inyubako nini ebyiri zegeranye imwe iri iburyo indi ikaba ibumoso, imbere yayo zifite aho kogera, ndetse n'ubusitani buteyemo umucaca, zifite ibyuma bisize amarangi n'inkingi zisize irangi ry'ubururu, ndetse n'isize irange ry'umweru, hejuru harimo umuntu w'umugabo.

Inyubako nziza kandi nini cyane za etage. Imbere yazo hari abantu barimo kwiyakira, imitaka, ndetse n'aho kujya koga mu mazi. Imbere hari ururabo rw'icyatsi, inyuma y'aho abantu bari kwiyakirira, hari imitini ndetse n'izindi ndabyo ndetse no hakurya yaho hari ibyuma.

Inyubako nziza kandi nini isa naho bakiriye abantu bashaka ibyo kurya bashaka ndetse no kuruhuka .Iyo nyubako imbere yayo hakaba hari indabyo ndetse n'ubusitani bumeze neza mbere y'ubwo busitani hakaba aho kogera abantu baruhuka ndetse hakaba mbere yaho kogera hari amakaro ashashe y'umuhondo ndetse n'umweru iruhande rw'ubusitani.

Ahantu bakirira abantu baje gusaba ibyo kurya, hari imitaka itwikiriye intebe zaho abakiriya bicara hari intebe z'umuhondo, ndetse n'intebe z'umukara harimo ubusitani ndetse n'ibiti by'icyatsi, ndetse n'indabyo zigiye zitandukanye ahantu hateguye neza cyane.

Icyumba giteguye neza imbere harimo intebe, ndetse hakaba hari n'aho kuryama harimo amashuka, imbere icyo cyumba gisize irangi ry'umuhondo kikaba kirimo amarido y'umuhondo n'ay'umweru, hasi hakaba hari amakaro asa umuhondo.

Inyubako nziza kandi nini cyane isa n'ikora imirimo y'ubwishingizi, imbere yayo hari izindi nyubako ntoya. Hanze hakaba hari abantu barimo kugenda umwe ari kuzamuka undi amanuka, hakaba hari n'ibyapa bigiye bitandukanye bitewe n'ibihakorerwa, imbere hakaba harimo ibiti birebire.

Inyubako nini kandi nziza ifite inkingi hamwe z'amakaro ahandi sima isilibye zisa umweru igaragara nkaho ikora imirimo y'ubwishingizi bwanditseho mu rurimi rw'icyongereza ikaba isakarishije amabati y'ubururu, imbere hayo hari ibirahuri by'umukara biriho amagambo y'umweru.

Abantu bari mu nama bari bicaye ku ntebe zegamirwa, z'imikara zifite inkingi z'ibyuma z'umweru imbere ya bo hari ameza hariho imashini za mudasobwa.

Mudasobwa iteretse ku meza inyuma yayo hari icupa ryamazi y'inyange kuruhande hari akabati baterekaho impapuro iruhande rwayo hari imashini ifotora impapuro, inyuma hakaba hari intebe yicarwaho yegamirwa y'umukara impande yayo hakaba hari urugi rwanditseho mu rurimi rw'icyongereza amagambo n'inyuguti z'umutuku.

Inyubako irimo icyumba cy'ibiro icyo cyumba kikaba kirimo imashini zigiye zitandukanye kandi kigaragara nk icyumba kigezweho cyakira abantu batandukanye serivisi zitandukanye hakaba harimo imashini ifotora ndetse n'imashini ibara amafaranga hamo ndetse n'intebe yegamirwa n'ibara ry'umukara iyo nyubako ikaba ifite urugi rusa umukara.

Abagabo babiri ndetse n'umugore uri ku ruhande, bambaye amakoti y'umukara, inkweto z'umukara, basa n'abari mu biro, hasi bisashemo amakaro y'umweru, ku ruhande hari ururabo rw'icyatsi, ndetse bigaragara ko bahatangira ubwishingizi, hari ibyuma by'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru.

Inyubako nziza kandi nini isa n'geretse hasi ifite inzugi zisiranye ry'icyatsi hejuru ikagira inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umuhondo yanditseho nyamirambo, ishami rya nyamirambo noneho ikaba ifite hasi hashashe amakara y'umweru imbere hasa n' harimo abantu ndetse ishashe n'amapave.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubwishingizi y'ishami rya leta zunze ubumwe z'Amerika, imbere yayo hari imodoka ebyiri zihagaze iy'umutuku ndetse n'iy'umweru, inyubako hejuru yubakishije amakaro hasi ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hari n'ibyapa byanditseho ubwishingizi.

Ni inzu , ikicaro cya sonerwa, iri kimirinko isize irange ry' umweru, igeretse inshuro eshatu, hejuru harimo abantu.

Inyubako nini isa n'igeretse, imbere igaragaza ko bahatangira ubufasha bw'ubwishingizi, hakaba hateretse igare isa umutuku ndetse n'abantu bambaye amajiri bakorera ishami rya MTN, hakaba hari ururabyo rw'imikindo ndetse ikaba ifite amadirishya arimo ibyuma bisize irange ry'umweru n'ibindi byapa biri imbere.

Umugabo ucigatiye umwana we, umwana ufite umusatsi mwinshi, bakaba bafite igipupe cy'umweru mu ntoki, bari ahantu hari ibara ry'umweru, basa nabicaye ku ntebe umugabo papa w'umwana yambaye ishati ifite ibipensu by'umweru, ishati ijya gusa umweru

Isoko ryubucuruzi ricuruza inkweto zigiye zitandukanye, ririmo abantu bari kugura inkweto zitandukanye. Ku ruhande hari uruzitiro rwubakishije ibyuma bisize irangi ry'umuhondo imbere harimo abantu bagiye batandukanye, abari kugura inkweto, ndetse n'indi myambaro, ndetse n'abari gutambuka.

Isoko ricururizwamo imbuto harimo inyanya, imineke, ibishyimbo ndetse n'ifu z'ubwoko butandukanye, harimo ibishyimbo bibisi ndetse n'amashaza n'igikapu n'umuntu uri kubicuruza ahongaho biri.

Isoko ricururizwamo ni ibitoki ririmo abantu benshi, mu mpande risakarishije amabati y'ubururu, ririmo abantu bari guhaha ibitoki ndetse n'izindi mboga imbere mu isoko rifite isakarishijwe amabati y'ubururu, ndetse hari n'inzu isakarishije amategura impande yayo hakaba ibitoki biri hasi.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto ndetse n'ibindi byo kurya bitandukanye ririmo; avoka, rikabamo imineke, inanasi, ibinyomoro, ndetse n'ibishyimbo, rikaba ririmo ndetse n'amacunga n'ibindi bijyanye n'imbuto bitandukanye, hakaba hari gucuruza umumama wambaye ikote ry'umukara.

Isoko ririmo abantu benshi barimo kugurisha, imboga ndetse n'imbuto imboga nyinshi zirimo n'inyanya iryo soko rikaba risakarishije amabati bifite inkingi z'ibyuma hakaba harimo abantu benshi barimo guhaha imboga zitandukanye, muri iryo soko abadamu n'abana ndetse n'abagabo.

Inyubako nini cyane imbere y'iyo nyubako hari pandagare, polisi hejuru hari abantu benshi cyane, iyo nyubako ifite inkingi zisize irangi ry'umweru, ifite ibyuma bikorotiriye nabyo bisize irange ry'umweru bifite amadirishya asize irangi ry'umweru, hakaba n'izindi modoka z'umukara ndetse n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bwa MTN y'amayinite ndetse hari umuntu uri kugurisha amayinite ndetse n'umukiriya waje wambaye agapfukamunwa, ingofero y'umukara ndetse n'ikote ririmo amabara y'ubururu n'icyatsi ndetse n'umweru, ipantaro y'ikoboyi ako kazu nak'umuhondo.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo, kanditseho serivisi za Emutiyeni kandi gakorerwamo serivisi za Emutiyeni, kubitsa, kubikuza ndetse no kugura amayinite, inyuma yako hari ipironi iriho insinga ndetse n'igiti kiri inyuma yako n'inzu y'amabati y'umweru, isize irangi ry'umuhondo n'umuhanda w'ibitaka.

Abagabo babiri, umwe yicaye imbere ya mudasobwa ari guha ubufasha undi mukiriya uri iruhande rwe, bose bafite telefoni mu ntoki, uri gutanga ubufasha yambaye agapira kamamariza ikigo cya emutiyene, noneho undi akaba afite telefoni nini zigezweho, iyo mudasobwa ikaba isa umukara, bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru.

Akazu ka emutiyene kari ahantu mu isoko , iruhande rwayo hari indi inyubako igaragara, imbere y'ibiti, inyuma yiyo nyubako hakaba indabyo ndetse n'ibiti by'icyatsi, hakaba hari n'amahema asakaye ahantu hubakishijwe ibyuma, imbere yayo hakaba hari icupa.

Ni kado ifunze neza, iteretse ku kameza imbere yayo hari igiti cy'icyatsi kirimo amabara y'umweru n'ibindi bintu.

Abamotari babiri bari mu muhanda wa kaburimbo bahetse abagenzi bambaye ingofero za moto z'icyatsi, imbere yabo hakaba hari abandi bantu barimo kuza mu muhanda wa kaburimbo harimo hari inzu iri kureguka igice cyo hejuru gisakarishije amabati y'umutuku ndetse imbere hakaba ari ibiti binini ndetse n'ibindi biti bicunze neza mu busitani.

Abamotari benshi bari mu muhanda wa kaburimbo, bambaye imyambaro y'umutuku, hejuru yanditseho ngo yego moto, bambaye kasike z'umutuku, imbere yabo hari inyubako zisakarishije amabati y'umutuku ndetse n'imodoka ya toyota y'umweru ndetse n'ibindi biti biri hakurya y'umuhanda, impande y'umuhanda hakaba hari amapave ashashe.

Abagabo babiri umwe b'umuzungu undi ari umwirabura, bafashe ingofero z'abatwara amapikipiki mu ntoki, umwe w’umwirabura afite diridi yambaye rinete z'umweru, uw’umuzungu yambaye rinete z'umutuku afite umusatsi ujya gusa umuhondo inyuma yabo hari igikuta cy'umukara wambaye imipira y'umukara.

Inzu nini iri i Remera yanditseho ko ari inzu i Remera ikodeshwa mu rurimi rw'icyongereza, ifite icyumba kimwe cyo kuryamamo, icyumba kimwe cyo karabiramo ndetse imbere ikaba ifite igikoni kigezweho, byose byanditse mu rurimi rw'icyongereza, isakarishije amabati y'umutuku isize sima itariho irangi.

Inyubako nziza kandi nini igeretse ifite imbere yaho, hari ubusitani ndetse n'igiti kirekire iyo nyubako ifite inkingi zisize irangi ry'umweru ndetse n'umukara ikaba ifite imizenguruko isize irangi ry'umutuku hafatiyeho ibyuma bisize irangi ry'umukara ibyo byumba bikaba bikoze umurongo utambika ugenda ubifata mu nkingi hejuru y'isakaje.

Inzu nziza nini cyane iri kimironko kwa sekimodo iyo nzu, ikaba isakarishije amabati y’umutuku ifite imireko y'umweru iyo nzu ifite amadirishya asize ibara ry'umuhondo n'akabaraza k'imbere gafite ahasize irangi ry'umweru ndetse ikaba isize irangi ry'umukara sima.

Umuntu uri kugendera ku makaro y'umweru, uri ahantu bacururiza ibicuruzwa byinshi, wambaye isengeri y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara ufite imisatsi isutse, utwaye igikapu mu ntoki cy'umweru.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye bari kugura ibintu bitandukanye harimo ibikapu, imikandara, inkweto ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, isoko rikaba ari rinini ririmo abagore ndetse n'abagabo, iryo soko rikaba risa n'iricuruza ibintu bikozwe mu mpu ndetse rikaba ricuza n'ibintu byinshi cyane.

Inyubako nini isa n'iy'ubucuruzi iriho ibyapa biri kwamamaza ibyokurya ndetse n'ibyo kunywa, hariho ikibaho cy'umukara, imbere harimo imbuto ziteretse ku meza, hari ndetse n'ameza arimo imbere, ikaba ifite inzugi zisize irangi risa umweru wijimye ndetse n'icyatsi.

Isoko ry'inkweto ririmo abantu benshi batandukanye ndetse rikaba n'isoko rigurirwamo ibikapu, imyambaro. Ririmo uri kugura inkweto wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro n'umukara n'inkweto z'umweru, inyuma ye hari abandi nabo bari kugura imyambaro bari imbere.

Inyubako yubakishiije amatafari ahiye, imbere yayo hari abantu benshi, iyo nyubako ku ruhande ikaba ifite agasanduku k'ibitekerezo, inyubako ikorerwamo igikorwa cyo gutunganya ikawa, hahunikwa ikawa, hakumukirizwa ikawa, hakanikwa ikawa, ndetse bakanayihatonorera. Iyo nyubako ni inyubako nini yubakishije amatafari ahiye.

Abantu basa n'abari mu nama barimo kwandika bisa n'aho bari ishyirahamwe barimo. aho barimo gutanga amakarita ya mituweli ndetse umwe afite imashini yo kubara imibare, hakurya yabo hakaba hari ubusitani bw'icyatsi, ndetse aho bantu bamwe bicaye.

Umugabo usa n'umuyobozi wambaye ishati y'umweru na karovati irimo utudomo tw'umweru ndetse nutw'umukara, imbere ye hari telefone, inziramugozi ndetse n'izindi mashini zishinzwe gufata amajwi, ziri imbere ye zimufata amajwi.

Umuntu ufashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki yanditseho akarere ka kicukiro iruhande rwe hari inzu igaragara igikuta gisa ubururu, hasi hari sima yashishutse hakurya hakaba imeza iri kureguka agapande gatoya.

Icyapa cyamamariza ejo heza kiriho umusaza n'umumama usa n'ukuze, cya ejo hereza cyanditseho ngo uzakomeza kubaho neza muri pansiyo, cyamamariza ejo heza ifite ikirango cya ejo heza mu ibara ry'icyatsi ndetse n'uturongonko tw'umweru, hasi hasa icyatsi kinini ndetse hejuru hakaba imirasire y'izuba.

Iduka ricuruza ibinyobwa bidasindisha, harimo mirinda na fanta, ibyo binyobwa bikaba bitreretse ku tubaho, hari umumama wambaye umupira w'umuhondo, n'ikote ry'ikoboyi.

Ni isoko rikomeye rifite hasi amakaro y'umweru, hajuru hari udufata imyambaro ribamo, ricururizwamo imyenda ndetse n'ibyo ku...

Inyubako nini y'ubucuruzi icururizwamo ibyo kurya bitandukanye ndetse n'imbere hakaba hashashe amakaro y'umweru, hejuru hari amatara menshi arimo kwaka atondetse ku murongo iyo nyubako ikaba irimo umuntu, umumama usunitse indobo y'umuhondo arimo kugenda ajya imbere.

Iduka rigezweho ricuruza icyayi, ikawa ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, utubati twiza dutandukanye ndetse impande yayo hari firigo y'umweru hakaba n'amatara, hasi hasashe amakaro y'umweru inzu isize irange ry'umweru ndetse n'utubati tw'umutuku.

Inyubako nziza kandi nini igaragara nk'aho ari inyubako y'ubucuruzi bukomeye byanditse mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umutuku ifite imbere yayo ibyuma by'umweru ndetse n'inzugi z'umweru ,imbere harimo ibicuruzwa noneho imbere yayo k'umuryango hakaba hari imodoka y'umukara n'indobo z'umutuku.

Iduka rinini rigaragara nk'iricuruza ibinyobwa hejuru harimo amakaro y'umweru wererutse ndetse n'andi makaro arimo y'umweru ariko ujya gusa umuhondo ndetse hakaba harimo n'amatara inkingi zisa umweru ndetse hasi hakaba harimo n'amapave nayo y'umweru ujya gusa umuhondo.